Umucuruzi ucuruza amayinite ya MTN kugira ngo abashe kwiteza imbere abone ibitunga umuryango, we ndetse na we agire icyo yimarira n'icyo ageza ku Gihugu muri rusange.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite inkingi ziri mu mabara y'umweru. Imbuga yayo ishashemo amapave, aho harambitse n'amashitingi abiri ashaje y'umukara ndetse n'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, icururizwamo amayinite ya MTN ndetse n'ibindi bicuruzwa nk'inkweto, bifasha umucuruzi kubona amafaranga amutunga ndetse akiteza imbere.

Umuhanda ukikijwe n'utuzu dutangirwamo serivisi zigiye zitandukanye za MTN, uwo muhanda ukaba ari umuhanda w'igitaka bakaba batari bashyiramo kaburimbo.

Abakiriya bagiye kugura amayinite ya MTN kugira ngo bahamagare abari kure, babone amakuru yabo ndetse bakore n'ibikorwa bigiye bitandukanye.

abacuruzi b'ama inite ya Airtel, bari gucuruza ama inite kugira ngo abaturage bahamagare aho batagera ndetse n'imiryango yabo bayiha amakuru yabo.

Abacuruzi bacuruza amayinite ya Airtel, bicaye mu mutaka ndetse n'imodoka iri imbere yabo, bifasha abaturage kubona uko bahamagarana ku bigendanye no ku matelefone.

Umuhanda wa kaburimbo, ukikijwe n'akazu ka sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda MTN, kakaba gakinze, nta muntu n'umwe ukarimo ariko kerekana ko hatangirwa izo serivisi.

Abantu benshi cyane bahagaze hamwe aho harimo abagabo bambaye amakoti y'amakositimu, bakaba bafite ibyapa mu ntoki byanditseho airtel, uko bigaragara bari kwamamaza serivisi nziza zitangwa n'iyi sosiyete.

Abacuruzi bacuruza ama inite ya Airtel, bafite abakiriya bagiye batandukanye, bibafasha guhamagara imiryango yabo iri kure, bikabateza imbere ku bigendanye no gukora imishinga igiye itandukanye bakorera ku matelefoni.

Inyubako y'ubucuruzi icururizwamo ibintu bitandukanye, harimo abacuruza amayinite ya MTN ndetse na Tigo, ibicuruzwa by'ibiribwa ndetse n'ibindi bifasha umucuruzi kubona amafaranga.

Umucuruzi w'amayinite ya MTN, ufite ugura amayinit, ari kugira ngo ahamagare ahantu atagera kugira ngo agezeyo amakuru ashaka kubabwira.

Umucuruzi w'amayinite ya MtN wicaye ku ntebe y'umweru, wambaye itaburiya y'umuhondo ndetse n'akameza k'umuhondo kanditseho uburyo bwo kwizigama ndetse n'inyungu yabyo ya gatandatu kw'ijana.

Abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, umukara, umutuku, umweru ndetse n'icyatsi, bahagaze imbere barimo baravuga uko biteje imbere ndetse n'ibyo bakora.

Abaturage bahagaze ku murongo bafata ifoto imbere y'inyubako nziza isize amarangi y'umuhondo ndetse n'urugi rw'umukara. Barimo barafata ifoto kugira ngo bage bibukiranya ibikorwa byabo.

Umubumbyi ubumba ibikoresho bikoreshwa bigiye bitandukanye bikorwa mu ibumba, bimufasha kwiteza imbere akagira icyo yigezaho ndetse n'icyo amarira Igihugu muri rusange.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, bateraniye hamwe aho bari mu nama, higanjemo igitsina gore ndetse n'igitsina gabo, bakaba bambaye imipira y'impuzankano iri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu.

Inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho, igeretse gatatu y'ubucuruzi, irimo abacuruza amayinite ya MTN ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ihagazeho imodoka y'umutuku imbere yayo.

Abahinzi bahinga inanasi, kugira ngo zibateze imbere, babashe kubona amafaranga atunga imiryango yabo, bakagira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira igihugu.

Abantu bari kwigishwa kudoda imyenda yo mu budodo kugira ngo baziteze imbere babashe kugira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira Igihugu mu bigendanye n'imibereho ndetse n'iterambere ryabo.

Abaturage bari mu nyubako nziza itatse neza, bari guhabwa ibihembo by'ishimwe, y'uko bakoze neza ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse bakiteza imbere.

Abantu babiri bakorera umuryango utabara imbabare mu Rwanda uzwi nka croix rouge, bakaba bari ahantu bari kumwe na mugenzi wabo ari kubandika ku rupapuro avuga ko aba bantu ari intwari.

Abantu bambaye imyenda y'amabara agiye atandukanye, bafite icyapa imbere yabo barimo baragira ibyo bamenyesha abantu, bigendanye no kugira ubumenyi bunguka, bugira icyo bubafasha mu myigire.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara ndetse n'ameza, bari kwiga ubumenyi bugiye butandukanye babasha kwiteza imbere ndetse bakagira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira Igihugu.

Inyubako nziza yicayemo abantu batandukanye, ku meza agiye atandukanye, bari kunywa ibinyobwa kugira ngo babone uko bashira inyota ndetse babashe no kwiteza imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kinyamwuga, aho yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba ifite inzugi zirimo n'ibirahure, iyi nyubako rero ni nziza cyane.

Inyubako nziza irimo ibikoresho bigezweho, harimo ameza atatseho amatapi, intebe nziza zubatse mu mbaho, ameza meza ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye.

Agacupa karimo umutobe, kakaba kari mu mabara y'umukara ndetse n'umutuku, kakaba karambitse ahantu bigaragara ko ari mu kabari aho bacuruza inzoga.

Inyubako nziza zubatswe ku buryo bugezweho zicururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya, gaze ziteka ndetse n'ibindi bifasha abacuruzi kubona amafaranga batunga.

Inzu y'ubucuruzi icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, aho umucuruzi abona amafaranga amutunga, akabasha kugira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira igihugu muri rusange.

Inzu y'ubucuruzi irimo umucuruzi ucuruza ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibiribwa bigiye bitandukanye, bimufasha kubona amafaranga.

Icyumba kirimo ibicuruzwa by'ibinyobwa bigiye bitandukanye ndetse n'ibiribwa, harimo imigati, amaji ndetse n'ubuto bukoreshwa mu guteka, bifasha umucuruzi kubona amafaranga amutunga.

Inyubako nziza irimo utubati turimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, umucuruzi acuruza kugira ngo abone amafaranga, amuteza imbere akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira igihugu.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri abanza. Imbere yabo hakaba hahagaze musenyeri, bigaragara ko yaje kubasomera misa maze bakaba bishimye.

Urusengero rwiza rwubatse neza, rwubakishijwe amatafari ahiiye ndetse n'amarangi y'umweru ku madirishya, inzugi z'umukara ifasha abaturage kuba baterana neza ahantu heza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere aho ari inyubako y'urusengero, haba harimo utumeza bifashisha ndetse n'udututi umuntu uri kuvuga ijambo aba ahagazeho yarambitseho igitabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba yogesheje amatafari ahiye, ifite ubusitantani bwiza cyane, buteyemo amoko agiye atandukanye y'imikindo, iyi rero ni kiliziya Gatolika.

Icyumba kiza kirimo ibikoresho bigezweho, nk'ameza, intebe zisize amarangi y'ubururu ndetse n'umweru, yicayemo umuntu utegereje icyo kunywa ndetse n'ibyokurya kugira ngo akomeze urugendo.

Ahantu heza hari ibiti birebire ndetse n'ibyatsi, amazu meza imihanda ndetse, n'ibiti birimo, kugira ngo abantu bahace babona ko ari heza.

Ahantu heza hari inyubako nziza ndetse na pisine abakiriya bogeramo kugira ngo baruhuke, babashe kuzana amafaranga atunga abahakorera ndetse bakiteza imbere.

Abakaraza bari gukoma ingoma kugira ngo basusururutse abariraho, babone uko babasha kwiteza imbere, iyo babikoze nk'umwuga kugira ngo bagire icyo bimarira.

Abatetsi bari guteka ibiribwa bigiye bitandukanye, bibafasha gucuruza bakabona amafaranga abateza imbere, bakagira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira igihugu.

Icyumba kiza cyo kuraramo kirimo matera amashuka umusego ndetse n'igitanda, bifasha uharara kuba ahantu heza, agasinzira neza, ndetse akabasha no gutekereza neza.

Icyumba k'inama kirimo abantu benshi bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye, abafasha kwiteza imbere ndetse no kugira icyo bimarira bakagira n'icyo bigezaho mu bigendanye n'imibereho.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, ikaba iteye amarangi y'umweru, ikaba kandi ifite urubaraza rurimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byerekana ko ari muri hoteli.

Inyubako nziza igeretse gatatu yubakishijwe amabati ndetse n'umucanga, isize amarangi y'umuhondo, amadirishya asize irangi ry'umukara, bifasha nyirayo kubona amafaranga iyo yayikodesheje.

Abantu bari ahantu bagera muri babiri aho hari umugabo wambaye ishati y'iroza, akaba ari kumwe n'umwana we bari kugenda bamugurira inkweto mu isoko aho izo nkweto zitambitse.

Isoko ricururizwamo amoko agiye atandukanye y'ibicuruzwa aho haba harimo ibiribwa, imboga ndetse n'imbuto ndetse n'ibinyamijumba, hakaba kandi harimo n'imyambaro igiye itandukanye.

Isoko ririmo abacuruzi bacuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imyenda, ibyo kurya ndetse n'inkweto, bibafasha kwiteza imbere bakagira icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira Igihugu.

Isoko ryahuriwemo n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye harimo ab'igitsina gore ndetse n'ibitsina gabo, bakaba bari kugenda bishimye bigaragara ko baje guhaha none ibyo bashaka bakaba babibonye.

Inkweto zigiye zitandukanye zicuruzwa n'umucuruzi zifunze. Bimufasha kwiteza imbere, akagira icyo yimarira ndetse n'icyo amarira Igihugu muri rusange.

Ibicuruzwa bitandukanye biri mu iduka harimo ibikapu, ingofero ndetse n'utwo batwaramo ibyo kurya, bifasha umucuruzi kubona amafaranga amutunga ndetse anagira icyo amarira umuryango we.

Ihene zakuze neza zifite ibara ry'umukara, zifasha umuhinzi kubona ifumbire ajyana mu mirima ye, akiteza imbere kuko ibihingwa bye byakuze neza, agashora ku isoko akabona amafaranga.

Ibiribwa bigiye bitandukanye biri ku isoko, abacuruzi bacuruza kugira ngo babone amafaranga bateza imbere bagire icyo bimarira ndetse n'icyo bamarira igihugu muri rusange.

Abantu batandukanye bagiye mu isoko kugura ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo imboga ndetse n'imbuto, imyenda yo kwambara ndetse n'ibindi bifasha abacuruzi kubona amafaranga.

Ibicuruzwa bitandukanye harimo intoryi, imiterejaa ndetse n'ibitunguru, bifasha abacuruzi kubona amafaranga abateza imbere, bakabona ibitunga imiryango yabo.

inyubako nziza yubatswe ku buryo bugezweho igeretse gatatu, ifasha abacuruzi kuhacururiza ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'ibiribwa ndetse n'ibindi, bibateza imbere bakabona amafaranga.

Icyumba cyiza kirimo ibikoresho bigezweho, harimo intebe ameza atatseho udutambaro tw'umweru, bifasha abahicara gukorera ahantu hasa neza ndetse mu mutekano.

Inyubako nziza cyane ya resitora, ahacururizwa ibiribwa bigiye bitandukanye, aho umuntu ubikeneye, agenda akicara hanyuma ababishinzwe, bakaza bamubaza icyo ashaka, hanyuma bakakimuha.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ameza n'intebe biri ahantu heza, bifasha abahicara kuba bicaye ahantu heza, bakabasha gukora imirimo yabo neza.

Abamotari bafite amamoto menshi bategereje abagenzi ngo babajyane iyo bagiye ku giciro gitoya. Bahagaze imbere y'inyubako nziza y'ubucuruzi iriho kandagira ukarabe.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo na moto y'ipikipiki, itwawe n'umugabo ufite agatelefone mu ntoki, ari kugenda agakanda, bigaragaza ko ashaka guhamagara. Si byiza kuvugira kuri telefoni mu gihe utwaye.

Umumotari ufite kasike mu ntoki, ugiye gutwara umugenzi wambaye umupira w'ingofero ndetse nigikapu gitukura, ugiye kugura amayinite, acuruzwa n'abacuruzi ba MTN.

Moto ihetse umufuka itwawe n'umumotari, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, ifasha umugenzi kugera iyo agiye amahoro ndetse akagezayo ibicuruzwa bye.

Abamotari batwaye abagenzi bari imbere y'inyubako nziza yubakishijwe amatafari ahiye, igeretse kabiri bifasha abagenzi kugenda mumuhanda mwiza wa kaburimbo uri imbere yayo.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye nka moto bifasha abagenzi kugera iyo bagiye amahoro, bakabasha kwiteza imbere kuko babashije kugereyo ku igihe.